Iyi foto iragaragaraho ahantu ni mu gishanga iyi n'imyaka isa neza rwose, ariko kuri iyi foto hariho umugabo uhetse igikoresho cyabugenewe gishinzwe gutera umuti, urabona y'uko ari gutera umuti kuri iyi myaka kugira ngo ikomeze ise neza.

Umuhinzi uri mu muririma, uri kuhira imyaka ye akoresheje uburyo bugezweho kandi bwihuse, kandi bwinjiza amazi byoroshye menshi mubutaka, uyu murima urimo ibibabi bitoshye cyane.

Umuhinzi uri gutera imiti ibirayi bye, ubona ko ari ibirayi bitoshye, bizatanga umwero mwinshi mu minsi igiyeye kuza, ibirayi bifite indabo nziza, bifite amababi meza, ubona ko biteye ubwuzu.

Uyu ni umurima uhingiye neza urimo ibihingwa bikiri bitoya, harimo umuhinzi uri kubitera umuti ari kubitera umuti ku mababi kugira ngo amababi atohe bikure neza ntakibazo bifite.

Umurima mwiza cyane urimo abahinzi bari gutera imiti kuri ibi bihingwa, imiti bari gutera bakoresheje amamashini yabugenewe, urabonaragira vuba cyane nta kibazo, uburyo bwihuse kandi bagakora neza.

Ibyuzi by'amafi biri ahantu heza, ahantu ubona hari umwuka mwiza, abantu bamaze kuroba amafi ari mu yakunzwe, ubona menshi, uyu ni umushinga mwiza cyane w'ibyuzi by'amafi.

Ikiyaga cyangwa ikivu, ubwato bukozwe mu biti, ubwato gakondo bwakozwe n'amaboko y'umunyarwanda, harimo umuma, umubyeyi ukuze wishimiye kuba yicaye mu bwato.

Abantu batari benshi barimo abagabo n'abagore bakikije icyuzi kiri hagati mu isambu ahantu ubona ko ari igishanga, hirya hakaba ibiti by'inturusu.

Abantu bane bunamye bari kudaha amazi bakoresheje indobo, amazi ari mu kiyaga, hirya yabo hari ubwato bukoze mu giti buri ku nkombe y'aya mazi.

Iyi foto iri kugaragaraho imisozi imirima myiza cyane yabonye imvura iriho amaterasi y'indinganire ariko hino ku ifoto, hari no kugaragara icyayi gitoshye gikeneye gusoromwa.

Abaturage benshi ubona ko bashishikariye umurimo bari gupakira ingemwe za kawa, hari imodoka yiteguye gushyirwamo izo ngemwe, abaturage bari kubikurikirana.

Ahantu mu murima haba imigende y'amazi ubona ko ari mu murima wa kawa iri kumera bundi bushya bari baratemye, harimo abagabo batatu ubona ko ari abahinzi bo muri uwo murima.

Kawa ihishije neza, yeze neza, bari kuyitoranya, bari kuyikuramo izapfuye, izitareze neza, kugira ngo bayitange yujuje ubuziranenge. Iki ni igihingwa cy'ikawa, igihingwa cyinjiza amafaranga mu gihugu, kikanayinjiriza umuturage ku giti cye.

Igihingwa ngandurarugo kawa, iri gutunganywa kugira ngo ijyanwe ku isoko, abaturage urabona bahuje umugambi, bari gutunganya iyi kawa irasa neza, yeze neza.

Igihingwa kawa igihingwa ngandurarugo kizana amafaranga menshi, igihingwa kigurwa amafaranga menshi umuhinzi hariya ari gusoroma ikawa kugira ngo ayigeze ku isoko.

Uyu ni umuhinzi uhinga ikawa, ikawa igihingwa ngandurarugo, igihingwa kiyizana amafaranga mu rugo igihingwa gikunzwe kandi giteza imbere Umunyarwanda ku buryo bwihuse.

Ahantu habitse imiti y'amatungo myinshi iri mu makarito, iri mu ducupa ifunze neza, hino hari icupa rimwe rifitwe mu ntoki n'umuntu ubona wa.

Ububiko bw'imiti y'amatongo, ahabikwa imiti y'amatungo, ibinini n'ibindi byinshi bibitse mu buryo bwiza, ku buryo bitapfa kwangirika.

Imiti yamatungo inka, ihene ,n'ingurube n'andi matungo, iyo miti ifunze neza, imiti idashobora kwangirika uko bibonetse kose, kubera ukuntu ifunze neza.

Ahabitswe imiti y'amatungo amashashi menshi, ibikombe bibiswemo umuti n'utundi dukoresho natwo dukoze nk'ibikombe dushinzwe gutera umuti muke muke tuwunyujije mu gapira kabugenewe kari muri iri cupa.

Amakarito menshi apakiyemo imiti, iyi ni imiti y'amatungo, amakarito ashushanyijeho inka z'inzungu urabona amapaki menshi menshi.

Imifuka myinshi ishushanyijeho itungo rirerire, ishushanyijeho inka. Iyi mifuka irimo imiti y'amatungo.

Amacupa menshi, amacupa afite ibara ry'umweru, ibara ry'ikijuju, aya ni amacupa abikwamo imiti y'amatungo, amacupa abitse neza ku buryo imiti idashobora kwangirika.

Imiti y'amatungo ibitse neza mu buryo itapfa kwangirika, ipanze ahantu, ifunze mu ducupa dukoze neza ku buryo nta kibazo ishobora kugira.

Ahantu heza hari ububiko bw'imiti y'amatungo, hari amacupa ashushanyijeho amatungo inkoko, ingurube, inka rwose ubona ko iyi miti ibitse neza.

Umuhinzi wishimye cyane, afite mu ntoki ze ibigori bivunguye, ubona bisa neza, inyuma ye hakaba ubwanaikiro bunini, bugari bw'ibigori, bitarakurwaho amababi.

Inzego z'ubuyobozi, polisi y'igihugu, aba, inkeragutabara basuye umuturage bari kumufasha guhinga bamushishikariza ubuhinzi, bari kumwubakira ikiraro ntiba ntibeshye.

Uru ni urwuri rwiza, rurimo ubwatsi bwiza, rurimo ibiti byiza ariko rukaba rurimo n'inka nziza; ubona ko zibona ubwatsi buhagije rwose. Ndi kubonamo inka nyinshi zitatanye.

Abahinzi ubona harimo ufite umuhoro, abikoreye inkwi, urabona bari gutaha, ni masaha izuba ni ryinshi, bari ahantu hasa nk'aho ari igihuru, bari gutaha bava mu mirima.

Mu rugo rw'umuturage ahantu hatuwe ariko hahinze ibiti, hahinze ibiti by'imbuto igiti cy'umwembe gitoshye ubona ko kiri hafi kwera kiri mu mbuga.

Ikintu mbona kuri iyi foto ni byinshi ndabonaho imbuto, ndabonaho imboga, ndabona ni ibintu byinshi rwose kandi byose bigirira akamaro umubiri wacu, harimo ibirinda indwara, harimo n'ibifite vitamine.

Akarima gatoya keza gahinzemo ibitunguru, ibi n'ibitunguru bifite amababi, amababi nayo aribwa ibitunguru byitwa puwaro.

Igihingwa cy'uruboga ariko cyariwe n'udusimba hariya udusimba twose twagiye tuza tukajya kuri uru ruboga ariko ndahabona n'kindi kimera cyitwa uruteja.

Mu gishanga, hari umuhinzi uri kwita, ku murima w'umuceri, urabona arikubagarira, arikuwukorera isuku, awutunganya kugira ngo umusaruro uzaboneke, hirya hari ibigori byinshi ubona bisa neza.

Ahantu mu kibaya kigari cyane ubona ko ari mu gishanga, hahinze umuceri watangiye kuma ubona ko uri hafi gutangira gusarurwa mwinshi cyane.

Umurima munini basoje igikorwa cyo kurima, ibyatsi biri hejuru. Nta kintu kiraterwamo uko bigaragara. Gusa hanarimo n'ibiti binini birimo muri uyu murima.

Igihingwa cy'urubuto ni igihingwa cy'mwembe, urabona nibwo uri kuzana uturabo, nibwo imbuto zigiye gutangira kuza, zigiye guturika zikaza kandi urabona ko ari umwembe ukiri mutoya.

Imirima myiza irimo ibihingwa by'urutoki, indi itunganyije neza ubona ko igiye gushyirwamo imyaka, ibintu bishobora guteza imbere abantu babihinga amafaranga akaboneka, ubuzima bwiza bukaboneka.

Aha ni ku isoko, ibi ni ibihingwa twese tuzi: umwembe urubuto rwiza, karoti uruboga; ibi ni ibintu byiza umuntu wese ashobora guhinga mu rugo iwe, akiteza imbere akaba yanabijyana no ku isoko.

Igihingwa cy'imbuto gitoshye, gisa neza, gifite ibara ry'icyatsi ubona ko cyanyoye amazi, hariho n'imbuto, ziriya mbuto n'indi mbuto z'indimu cyangwa amaronji, ibyo ni ibihingwa dukeneye kujya duhinga cyane.

Ibigori ubona ko bidahetse, biri ahantu habi, ibigori bisa nabi, ubona ko bititaweho nta n'umusaruro ufatika bizatanga, biri mu murima biri aho gusa.

Ahantu mu murima utarimo isuku udakoreye neza. Ubona hatari ibyatsi byinshi gusa hagaragara uruboga rwa kinyarwanda, rwariwe n'udusimba. Hari inteja, ahantu hatari heza.

Ahantu mu gashyamba harimo ibiti byitwa iminyinya hari ihene eshatu ziri kurisha ubwatsi, hirya hakaba inka na yo iri kurisha ubwatsi.

Ishyamba ry'inzitane, ishyamba ririmo ibiti by'inganzamarumbo, ishyama ubona ko rimaze imyaka myinshi, iri rishobora gukurura imvura, ni imisozi ibiri ndetse ni itatu, biteganye.

Mu gishanga aho igishanga kiri gukorwa neza ku buryo kizajya kibika kikanafata amazi kikayagumana kugira ibimera biri mo ibihingwa bimere neza bitohe.

Ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Hirya hari imigezi ahantutu hari ibidukikije uko bigaragara, bari kuganira rero ukuntu babungabunga ku bidukikije, ubuhinzi, turabona ubuhinzi bw'imboga no kwita ku migezi.

Ahantu mu ishyamba ry'inzitane, ubona riteye ubwoba harimo ibiti binini by'inganzamarumbo bigiye bitandukanye, hadashobora kubonekamo inzira, Ubona..

Umuhanda ukoze neza mu buryo bwa kijyambere ukikijwe n'amashyamba menshi y'inzitane ahantu hose hepfo no haruguru, hakaba hari n'amatara yo ku mihanda.

Imisozi, yitaruye, hino hagati hakaba umugezi, bigaragara ko, ari ikiyaga, wakwegera hino nanone hakaba hari, ishyamba n'umurima w'urutoki.

Inka nziza, inka zinyarwanda, inyambo ziteze amahembe manini, zambaye inigi; hirya hakaba ibiti byiza, ubona ko binini bisa nk'ibyakoze igihuru.

Umuhinzi ukuze, uri mu murima w'indabo, ubuhinzi bugezweho kandi butanga amafaranga, ari kuzikorera, ari kuzitunganya, hirya hari undi mugabo nawe uri kureba indabo ze uko zimeze.

Nta gushidikanya ko iyi foto igaragaza ahantu ku isoko rwose, uyu n'umusaruro w'inyanya ziri mu gitebo, uyu mugore ari gucuruza izi nyanya ikibyemeza afite n'andi mafaranga mu ntoki, hino hakaba ikiganza cy'umuntu wafashe urunyanya mu ntoki birashoboka ko ari kubaza igiciro.

Iyi foto nayo iragaragaraho ibihingwa n'uburyo bwo guhinga bugezweho bwa kijyambere, harimo kubakira imyaka kuyubakira mu buryo bwo kuyisakara, mu buryo bwo kuyishingira ibiti izamukiraho, ndi kubonaho ibihaza, imbuto, indabo n'ibindi.

Iyi foto ndabona aho igitebo c'inyanya, inyanya zisa neza, ariko nkanabonaho ikiganza cy'umugabo ufite urunyanya mu ntoki, bisa nk'aho ari kugura cyangwa ashaka kugura kuri izi nyanya nziza.

Umuhinzi wishimye, mu ntoki ze ahateruye inanasi, nanasi ebyiri zishishe mu maboko yiwe, ubona yuko yishimiye umusaruro we.

Ahantu mu isoko hari inyanya nziza ubona ko ari ahantu bacururiza imyaka igiye itandukanye, hari abagore bari kuganira n'umucuruzi, bigaragara yuko bari kuvugana ku biciro.

Ubuhinzi bugezweho, bw'indabo n'imbuto, bwubakiye, busakaye neza hakoreshejwe amahema, hagiye hanyuramo amatiyo agamije kuhira.

Igiti cy'umwembe ubona kikiri gitoya ariko gifite imbuto nyinshi zikiri ntoya urabona iki igiti gihinzwe mu buryo bugezweho bagitezeho ibiti kirasa neza giteye amabengeza.

Umuturage wambaye nk'umubyeyi ukuze, igishushanyo nyuma kigaragaza ubuhinzi bw'imboga bugezweho, ubushakashatsi buri gukorwa bwateguwe ku bihereranye n'uko abaturage bagombye gukora buriya buhinzi bugezweho mu Rwanda.

Umusaruro mwiza, umusaruro ubereye ijisho, ibigori byiza by'icyatsi kibisi, inyanya z'umutuku nyamutuku, umusaruro umeze neza rwose, uri kugaragara.

Ururabo rwiza ubona rutoshye rw'amabara meza, ubona ko guhinga uru rurabo ari ukwiteganyiriza rwose, ubuhinzi bugomba gutera imbere kuko uru rurabo rubereye ijisho.

Abagabo babiri bari kumwe n'umugore umwe wambaye bigaragara ko bari mu kazi, bari ahantu mu murima ariko ni hantu bagiye guhinga mu buryo bugezweho, hasakaye, hubakishijwe amahema.

Uburyo bugezweho bumaze kumenyekana cyane bwo kuhira imyaka bakoresheje amamashini. Aha ngaha umuhinzi ari gukoresha ubu buryo, nta mbaraga nyinshi biri kumusaba kandi urabona ko amazi ari kwinjira mu myaka ari menshi. Akajya no mu butaka.

Uburyo bwo kuhira bugezweho hakoreshejwe amamashini, ahantu mu murima abantu bane ubona ko bari muri gahunda yo gutunganya uyu murima, bari kuhira bakoresheje imashini igeza amazi kure igakora vuba amazi akagera mu butaka bidasabye imbaraga nyinshi.

Iyi foto iragaragaza abagabo rwose bahamye, abagabo bafite intambwe irimo umudiho, aba bagabo bambaye imyenda y'akazi, impuzankano iriho ikirango cy'Inyange ndanabonamo na Minisitiri w'ubutegetsi bw'Igihugu.

Amamashini akurura amazi mu mahombo ahantu mu murima utoshye, bigaragara ko huhirwa bakoresheje aya mamashini mu buryo bugezweho.

Uburyo bwo kuhira bugezweho hifashishijwe imirasire y'izuba imbaraga zayo zigakurura amazi ziyakura mu bishanga ziyazana mu mipira umuturage akuhira, hano barikuhira amashu atoshye ubona ko nta kibazo cy'izuba yagize.

Aha hantu haragaragara igikorwa cy'ubuhinzi kuri iyi foto, turi kubona umugabo uri mu murima, uyu murima uteyemo imyaka myiza ariko ikindi tubonaho ni uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka twifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ahantu mu murima, imbuto ziracyari nto ariko hari uburyo bwo kuhira bugezweho, amazi ararekurwa rimwe, akagera ahantu henshi kandi ari menshi muburyo bwihuta, bufasha abahinzi, kuhira imyaka yabo.

Umuturage uri kuhira imyaka ye, imyaka iteye ku murongo ariko ikiri mitoya, urabona ari kuhiza uburyo busanzwe ariko ari gukoresha igikoresho na cyo kiri mu bigezweho, ariko kitagira vuba.

Iyi foto iragaragara abahinzi babigize umwuga, abahinzi babyambariye, bambaye amasarubeti bakikwiza, bakambara n'inkweto zabugenewe. Hari kuhira imyaka ikiri mitoya, ndabonamo amashu akiri matoya bari kuyuhira rwose.

Abahinzi babigize umwuga bari kuhira bakoresheje uburyo bugezweho uburyo bworoshye umuntu wese ashobora gukoresha, bari kuhira amashu, igihingwa cy'imboga kizi.

Uburyo bwo kuhira imyaka kandi bwizewe bukora vuba kandi butanga amazi ku kimera icyo aricyo cyose mu buryo burambye amazi akinjira mu butaka neza.

Umuhinzi uri kuhira ibitunguru bye, ibitunguru ubona byeze, ari kubyuhira akoresheje uburyo bugezweho, uburyo bworoshye butamuvuna, uburyo bwo gutunga umupira w'amazi ku gihingwa kandi ubu buryo butuma amazi yinjira mu butaka neza.

Imisozi myiza cyane iriho amashyamba, imisozi iteranye imigongo, hagati y'iyo misozi yombi hari ikibaya cyiza wareba hirya ukabona indi misozi yitaruye nayo igiye iteranye imigongo n'ikirere gisa neza.

Imisozi myiza, imisozi ibereye ijisho, imisozi yubatseho amaterasi y'indinganire, hariho ibiti by'ininturusu byiza, hagati harimo ibibaya, mu mabanga y'imisozi urabona ko ari imisozi myiza, ikirere gisa neza.

Ahantu hari imisozi idahanamye, ahantu twakwita ikibaya, hirya hakaba hari umugezi w,amazi menshi, hantu ubona ko ari heza n'ubwo hadatuwe.

Imisozi myiza yitaruye ibereye ijisho, ikozweho amaterasi y'indinganire, hino hakaba ikibaya hatuwe n'abantu ariko na ho hakorerwa imirimo y'ubuhinzi.

Iki ni ikibaya kiri munsi y'umusozi, ahantu ubona hari igishanga kiri ku buryo gifatamo amazi neza, hahinze neza, hari imbuto nziza, ibihingwa bihari urabona ko ari ibihingwa bitanga ikizere.

Imisozi myiza, imisozi ibera ijisho iriho amaterasi y'indinganire, ihinzwe mu buryo bwa kijyambere hirya imiturire, mbese ni ahantu hitaruye ureba ibyiza by'u Rwanda.

Agasozi keza gahinzeho urutoki, hirya hitaruye hari umugezi mwiza, imisozi , ikirere gisa nk'aho kibuditse ibicu, imvura irakubye.

Imisozi miremire cyane iriho ishyamba ry'inzitane, ibiti byinshi cyane, hino hakaba hari indi misozi, irimo utuyira, imisozi irimo utuyira turarambuye, aha hantu hateye igihingwa cy'icyayi.

Amatungo yo mu rugo, ihene, musheru, ihene nyinshi zifite amahembe, zifite ubwanwa, ziri ahantu bisa nk'aho ziragiwe, ni nyinshi harimo n'abantu bari kuzitaho.

Iyi foto iri kugaragaza urwuri rwiza, urwuri ruriho ubwatsi butoshye n'igiti cy'umuyinya n'inka nziza cyane z'isine n'ibihogo.

Ahantu mu rwuri, urwuri rwiza ubona rutoshye rurimo inka nyinshi zishishe, harimo izi nka zigezweho zidafite amahembe z'ibyimanyi, ubona ko ari ahantu heza rwose ho kororera.

Ubworozi bw'inkwavu bugezweho, ahantu mu rugo boroye inkwavu nyinshi kandi ziri ahantu hato, nziza zisa neza, harimo n'iza kizungu.

Ahahuriye ishyo ry'inka zishishe z'Inyambo bigaragazwa no kuba ziteze amahembe manini cyane kandi maremare, ye bikaba umuco wacu.

Ubworozi bwa kijyambere, inka za kijyambere, iz'ibyimanyi, zororewe ahantu heza, ziri mu biraro byubatse muburyo burambye kandi n'izi nka urabona ko ari inka zivangiye, zitanga umukamo n'icyororo.

Inka z'inyambo inka zifite icyo zivuze mu muryango Nyarwanda n'umuco Nyarwanda, hirya hari abantu bashinzwe kwita kuri izi nka, baje kureba uko zimerewe birashoboka ko baje kuzitera intanga cyangwa kuzitera izindi nkingo.

Ubworozi bw'ingurube. Ahantu hari ikiraro cyiza gikoze neza ,kiriho amasima, hororewemo ingurube ubona ko ishishe, za ngurube za kizungu ubona ko ari ubworozi bubyara umusaruro.

Iyi foto iragaragaraho ubworozi bw'inkoko za kijyambere, n'uburyo zitabwaho mu buryo bugezweho, turiya tuntu tw'umweru, ni'utwo zinyweramo amazi, hatambitsemo n'utuntu tw'utubaho zishyirirwamo ibiryo, izi nkoko, ni inkoko z'inzungu.

Urwuri rutoshye ruri ahantu ubona heza hari ubwatsi buhagije, amatungo ahari ni inka. Inka nyinshi cyane zisa neza zishishe.

Inkoko zorowe mu buryo bugezweho ziri ahantu hatoya kandi ni nyinshi, ahantu hadasaba kuba ufite umwanya munini ziratondetse ku buryo bugerekeranye, amagi ziratera akajya ahantu ku ruhande, aho uzitaho ayatora bimworoheye ni byiza.

Ahantu ubona hari ibikoresho byo gutwaramo ibintu, bimwe muri ibyo bikoresho birimo imishwi y'inkoko ikiri mitoya ubona ariko ko ari myinshi.

Ubworozi bw'ingurube, iyi ni ingurube ibona ko iteye ubwoba, ikiraro kinini kiri ahantu hari isuku, aho irira, aho iryama, ubu ni bwo bworozi bugezweho rwose.

Ubworozi bw'inka zigezweho, inka zitanga umkamo, iriya ni inka y'inzungu, urabona ifite icebe rigari, kimwe mu bintu bigaragaza y'uko itangumokamo, ikamwa amata menshi cyane.

Ingurube mu zigezweho, ubworozi bwa kijyambere, ikiraro amatungo abyagiyemo ni kiza, iyi ngurube urabona ifite ibibwana byinshi byinshi, ni ubworozi bugezweho rwose.

Ubworozi bwa kijyambere, inka za kizungu, inka zigezweho zororewe ahantu heza, inka zizwiho gutanga umukamo uhagije ziri kurira ahantu heza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, inkoko nziza z'inzungu, zibyibushye, zishishe, uburyo ni nyinshi ziri ahantu hatoya, uburyo ziri kugaburirwamo n'uburyo zitapfa kumena ibiryo byazo, ziri ahantu heza ubu bworozi burakwiye.

Ahantu mu kiraro aho bororera inkoko, ahantu hari isaso ryiza, hari udutanda twiza, uburyo bwo kugaburira inkoko bwiza, izi ni inkoko za kijyambere zorowe neza, zisa neza zifite isuku.

Izi ni imbuto zinyanyagiye mu murima, biriya ni ibishyimbo bifite ibara ryiza, umuhinzi ari kubifata aka bitera mu murima kugira ngo bizabyare ibindi byinshi.

Ahantu heza cyane, bigaragara yuko ari ahantu barerera ingemwe z'imbuto n'indabo zikitabwaho zamara kwegera hejuru, zikaba ziteguye kuba zagurishwa mu baturage no ku masoko aha hantu niheza.

Iyi foto iragaragaraho ibiganza bifite akuma ariko hari kugaragaraho n'ihundo. Uko bigaragara uyu muhinzi ari kugesa amasaka kuko afite ihundo n'uruti birasa nk'aho agiye gukata ihundo.

Ahabitswe imyaka ni umusaruro ni imbuto y'ibigori, ni ahantu heza harambuye ihema hatagera ubukonje bukabije kubera ari ahantu mu nzu.

Umuhinzi uri mu mifuka myinshi, imifuka yuzuye, ari kwishimira umusaruro we, umusaruro yagezeho, urabona biriya ni ibinyampeke, ziriya ni imbuto nziza cyane, yarejeje uko bikwiye azajyana ku isoko, agumisha mu rugo, anatange n'imbuto no ku bandi bahinzi.

Ibishyimbo byiza ubona bifite ibara ryiza biri mu kiganza cy'umuhinzi ari kurebamo ibyiza, ibishyimbo ubona ko byeze kandi biryoshye.

Umusaruro w'ibishyimbo bisa neza biri ku nkoko, bitoranyije neza, umuhinzi arishimye, yamwenyuye, yagaragaje rwose umusaruro we no mu mbuga hari ibindi bishyimbo bitarahurwa ibintu bimeze neza.

Amahundo y'amasaka ameze neza ashishe yeze neza rwose ubona ko yagize ibihe byiza, yabonye imvura, izuba, umuhinzi arayafashe mu ntoki arayishimiye cyane.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi, abantu ubona ko ari abayobozi, abagize amatsinda yibumbiye hamwe, bamuritse umusaruro wabo, bamuritse ibyo bagezeho, hari imyaka iri hariya, hari ibyo bagiye bakura mu bworozi bugiye butandukanye.

Abaganga b'amatungo bari gutera inkingo, bari gutera intanga inka urabona ahantu inka iri ntabwo ishobora kwinyagambura cyangwa ngo ibagore bari kuyitera inkingo cyangwa intanga bitabagoye.

Mbere na mbere iyi foto iragaragaza bwa bworozi bw'inkoko za kijyambere no kuzorora mu buryo bwa kijyambere, izi nkoko ziri kwitabwaho n'abaganga b'amatungo, urabona ko bari kuzisuzuma ngo bamenye niba nta kibazo cy'uburwayi zaba zifite, aba ni abaganga b'amatungo kuko bambaye n'imyenda ibaranga.

Iyi foto iragaragaraho abaganga batatu bambaye bikwije ibikoresho byo kwa muganga bari gupima ibizami no gutegura ahashyirwa ibizami kwa muganga mu byo bamaze gusuzuma.

Abaganga b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe myiza y'umweru, bambaye udupfukantoki n'udupfukamunwa bafite inshinge ubona bari gushyira imiti muri ziriya nshinge.

Igikoresho umuganga w'amatungo yitwaza, kiba kirimo imiti, igikoresho gifunze neza, gifite ibara ry'ubururu, kirafunze neza ntabwo imiti yapfa kwangirika, giteretse ku ntebe, intebe y'umweru.

Muganga w'amatungo wabyigiye, wabyambariye, ari gutunganya umuti, ari gushyira umuti mu rukingo agiye gutera itungo.

Umuganga w'amatungo, yabyambariye, yitwaje ibikoresho, ageze mu rwuri, arafunguye, igikoresho atwaramo imiti, agiye gutangira akazi ke, ko gutunganya imiti, ubundi akayitera amatungo.

Icyumba gisukuye kirimo umugabo wambaye uturindantoki, wambaye umwambaro twita itaburiya, ahantu hariyo amamashini agiye atandukanye, bigaragara ko uyu ari umuganga w'amatungo.

Umuganga w'amatungo ari ahabugenewe, birashoboka ko ari gutera intanga inka cyangwa kuyitera urukingo kuko iri ahantu heza habugenewe, aho inka iba idashobora kugora umuganga wayo.

Umuganga w'amatungo wambaye imyenda yabugenewe uri mu kiraro cyubatse neza, uri gutunganya umuti agiye gutera inka, ruriya ni urushinge kariya k'umukara afite ni urushinge agiye gutera inka.

Inka nziza ya kinyarwanda, inka ishishe, ishyambo. ndiku n'abaganga b'amatungo bari kuyitaho, birashoboka ko bagiye kuyitera intanga cyangwa kuyitera urukingo runaka.

Inyamaswa zo mu gasozi, izi ni ihene z'ishyamba, zikunze kuba ziri mu maparike cyangwa ahandi hantu abakerarugendo bashobora kujya, bagatembera bakaruhura mu mutwe.

Izi ni inyoni zibera mu gasozi, ni inyoni zidataha mu rugo ariko ziri gukinira ahantu ku mazi, zirishimye, izi ni inyamaswa zikundwa n'abantu bose, zitanduranya, zitangiza ariko zibera mu gasozi.

Ahantu muri parike, ahantu mu wishyamba, ubwatsi bwumagaye, hari inyamaswa z'agasozi. Intare ziri gukina, harimo iyasamye, intare ziteye ubwoba ni amatungo yo mu gasozi pe.

Zimwe mu nyamaswa zitororerwa mu ngo, zibera ku gasozi, ziri mu mazi ziri gukina, zirishimye, n'idubu, izi nyamaswa zirasa nk'idubu zishimye, ziri gukinira mu mazi menshi.

Inyamaswa zo mu gasozi inyamaswa ziba mu maparike zitashobora kuba mu rugo, impara intare urabona izi nyamaswa ziri kurwana intare iri kuruma imparage, ibi ni ibintu byo mu ishyamba ntabwo ari ibyo mu rugo.

Inyamaswa idakunda itaba mu rugo, iyi ni inyamaswa yo mu gasozi, karicaye, kicaye ahantu, imeze nk'inkende cyangwa inguge. Iyi ni inyamaswa yo mu ishyamba. Si iyo mu rugo.

Akanyamaswa gaturuka mu biguruka, mu nyamaswa zo ku gasozi, kari ahantu mu maz,i gateye nk'imbata, gafite amabara y'umweru, ay'icyatsi n'umunwa muremure w'umuhondo.

Ahantu hari umugezi ahantu ubona mu ishyamba haje inyamaswa z'ishyamba zaje kunywa amazi, harimo ihene z'ishyamba za hene ziba zifite amahembe maremare zose zateraniye hano zije kunywa amazi.